Umuntu warwaye warembye cyane, muganga abanza kumuha ubuvuzi bw'ibanze bwo kugira ngo arebe ko yarokora ubuzima bwe.

Kwa muganga bagira uburyo bushyirwaho bwo kuvura umurwayi uje urembye cyane bashaka uburyo batabara ubuzima bwe bukagenda neza.

Guhabwa ubuvuzi byiza kandi bwihuse ni kimwe mu bifasha umurwayi kuba yakigarurira icyizere cy'uko yakoroherwa.

Mu cyumba cyo kwakiriramo aho abantu bamerewe nabi cyane, hagomba kuba hari ibikoresho byose bisabwa mu gihe bakiriye umurwayi kugira ngo bamuramire.

Nk'umuganga gukoresha ibikoresho wifashisha ubaga biba bigomba kuba bifite isuku ihagije, mu buryo bwo kurinda umurwayi kuba yaza kugira uburyaryate, nyuma.

Kwa muganga ushinzwe kwita ku bagana ibitaro abafasha kureba nimba ibyo byangombwa byuzuye basabwa kugira ngo bivuze.

Kugira inyubako z'ibitaro bifite ibyumba bihagije byakira abarwayi n'abarwaza baza babigana birafasha mu gutanga serivise inoze.

Muganga ari gusuzuma umubyeyi utwite areba ko umwana ameze neza munda.

Kuba umuganga mwiza bisaba gukurikiza amahame y'umwuga no kugira ubumuntu muri wowe bugufasha gukora akazi kawe neza.

Muganga ari gufasha umurwayi waje kwivuza guhita ashyira umuti mu mumaso kugira ngo yoroherwe vuba.

Kwakira abaje bakugana vuba utabatindije bituma bagenda bakuvuga neza banagusabira umugisha ku mana kubitaho.

Gahunda yo kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu jenoside yakorewe abatutsi ibanzirizwa n'urugendo ruva ahateganyijwe rujya aho bari bwahurire bagakora ibiganiro.

Gahunda ya polisi yahariwe ubuvuzi bwo kuvura indwara zitandukanye mu bice bitandukanye, bafasha abarwayi mu kubaha imiti no kubasuzuma bigezweho.

Mu kazi kacu ka buri munsi gutegereza amabwiriza ni ngombwa, kugira ngo umenye icyo uri bwaze gukurikiza ukora akazi kawe.

Ni umuco mwiza kugera aho ugiye kwaka ibyo ushaka ukabanza ukareka abahageze mbere yawe bakinjira.

Kwandika ibyinjiye n'ibyasohotse mu bitaro, ni kimwe mu nkingi ifasha gushyira ku kumurongo, ukamenya n'igihe utumirizaho nk'indi miti, indi itarashira muri sitoke ibikwamo.

Abajyanama b'ubuzima ni bamwe mu bafasha gutanga ubuvuzi bubangutse kandi bwihuse bw'ibanze.

Kwakira abaza bagana ibitaro kwivuza abashinzwe kwakira abakiriya, arabanza akareba ko ibyo basabwa babizanye.

Amafoto y'urwibutso, ashyirwa mu ishyinguranyandiko kugira ngo bijye bigaragara ko icyo gihe, cyabayeho.

Icyumba cyabugenewe cyo gukoreramo ubushakashatsi ku miti hifashishijwe ibimera n'amazi yo kubitunganya neza.

Ibikoresho bigezweho byifashishwa mu buvuzi, bisaba ubumenyi bwisumbuye k'ubikoresha, uburyo bikoramo, n'uko bigomba kurindwa kwangirika.

Kureba igisubizo ku by'ubushakashatsi bwakozwe bwatanze mu gihe cyagenwe.

Gusuzuma ibipimo byafashwe icyo biri gutanga, ureba indwara ziri kugaragaramo cyangwa niba ntazo.

Muganga iyo ari gukora ubushakashatsi, abagomba kuba afite ibisabwa yambaye n'imyenda yabugenewe kugira ngo ataza kwangirika, igihe imiti arimo aravanga yamukora ku mubiri.

Muganga ari gusuzuma ibipimo byafashwe yifashishije igikoresho cyabugenewe mu kuvumbura indwara.

Gukora mu nzu zagenewe ubushakashatsi, ugomba kwambara ibikoresho byabugenewe byo kujyanamo, wirinda indwara zitandukanye ushobora kwanduriramo.

Umuganga iyo ari gukora ubushakashatsi ku cyorezo bimusaba umwanya uhagije wo kubitekerezaho no gutegereza ibisubizo mu bipimo byafashwe.

Gufata amaraso, ni buryo abaganga bakoresha bareba indwara ziri mu mubiri w'umurwayi.

Gukoresha isuzuma ryo kureba ubuzima bwawe uko buhagaze bikozwe n'ababifitiye ubumenyi bifasha kumenya uko wakwitwara mu gihe wasanga ufite ikibazo.

Gahunda ya leta yo gutanga amafunguro ku ishuri ifasha abana bakiri bato gukunda kwiga no kuzinduka.

Gutanga urukingo ku bana rw'indwara z'ibyorezo ni byiza mu mikurire yabo ni na gahunda ya leta ishyirwamo imbaraga igashorwamo n'amafaranga menshi.

Kwita ku bana ubafasha kubereka umukoro wabahaye ukabasobanurira ubabwira neza, bibafasha kukwiyumvamo no kumva bamerewe neza bitaweho.

Aho bahuriza abana batarengeje imyaka ibiri bakabagenzurira imikurire yabo bakabaha indyo yuzuye n'amata.

Gusobanurira abayobozi uburyo mukoramo, no gufasha abaje babagana, unabereka ibigenda neza, n'ibyakosorwa cyangwa hagashyirwamo imbaraga mu buvuzi, mu buvuzi.

Umuyobozi: kwegera abaturage, akabaganiriza, akababwira gahunda Leta ibafiteho, ni kimwe mu bibashimisha bumva ko nabo batekerezwaho.

Gushyira imbaraga mu buvuzi birakwiye, kuko igishoro cya mbere ni ubuzima bwiza buzira umuze.

Kwa muganga mu cyumba cy'aho bagufashiriza mu buryo bw'imitekerereze, bagutega amatwi, baguha inama, bagufasha kumera neza mu mutwe no mu bitekerezo.

Ifoto y'urwibutso igaragaza ubukangurambaga bwakozwe mu bijyanye n'ubuzima ku bufatanye bw'Ingabo z'igihugu.

Mu gihe cy'icyorezo ni byiza kwicaza abantu bahuriye ahantu ari benshi mu buryo butandukanye mu kwirinda kuba bakwanduzanya.

Ibiganiro byaguye by'ibijyanye n'ubuzima ku byakongerwamo, ku byavugururwa vuba, ku byihutirwa, no ku nama zifasha abayobozi b'ibitaro kunoza gahunda na serivisi batanga neza.

Kwicara mukoze uruziga mwungurana ibitekerezo, ni uburyo bwiza mubasha kumvikana munareba imyitwarire y'urimo uravuga imbere yanyu.

Ikigo gishinzwe mu gufasha abakorewe ihohoterwa ritandukanye batabasha kubyikurikiranira, mu buryo bahabwa ubutabera bunoze.

Gutega amatwi uje akugana kugira ngo akubwire ibyo arwaye, ucuruza imiti ubasha kumuha, iyo wumva yamufasha, mu burwayi bwe.

Izina ukoresha wamamaza ibikorwa byawe n'umusingi wo gukurura abakiriya bakakugana.

Inzu bacururizamo imiti abantu barwaye bagana bakahagurira iyabafasha mu kwivura indwara barwaye mu gihe batabashije kujya kwa muganga.

Aho wakwifashisha ugura imiti itandukanye ivura indwara haba kwa muganga bakoheje wayibuzeyo cyangwa no mu buryo bwihuse utabashije kugera ku kigo nderabuzima.

Ni byiza kumenya uko ufata imiti uyikurikiranyije, mu buryo bwo kwirinda ko yapfa utayinyoye.

Uburyo bwiza bwo kubika imiti nigukora ama etajeli, aho buri muti ushyirwa mu mwanya wawo kugira ngo utaza kuyivanga.

Iyo ucuruza imiti kugira iy'ubwoko bwinshi butandukanye biba ari byiza kuko abaje bakugana bashaka imiti ubasha kuyibona kandi ukamuha iyivura indwara arwaje.

Kugira abantu inama bisaba gukoresha amagambo yumvikana ,wahisemo witonze mu gufasha abaturage kumva neza kandi utarambiranye.

Ubukangurambaga mu kwimakaza ibiganiro byigisha ubuzima bw'imyororokere mu rubyiruko no mu muryango, uruhare rw'urubyiruko ababyeyi, abarezi, abayobozi n'amadini.

Gukina tiyatere n'ikinamico bijyanye no kwirinda indwara zitandukanye za zakoreka umubiri wawe zikawujyana aharindimuka.

Ni byiza kubanza guhitamo amagambo aboneye, mu mvugo ukoresha mu bukangurambaga, kandi nturambirane mu gutanga imbwirwaruhame.

Gukora ibirori byo gufungura ku mugaragaro igikorwa gitangijwe biba ari byiza kuba bibona.

Ubukangurambaga bwo kurwanya malariya, kubukora biba bikenewe, ubigisha uburyo yirindwamo, n'ukuyica burundu muri rubanda.

Gufungura ku mugaragaro ivuriro abaturage bazajya bagana igihe barwaye bakeneye kwivuza.

Abahanzi bari gususurutsa abitabiriye ibikorwa byo kwiyamamaza, ngo batarambirwa mu gihe umukandida wiyamamaza atarahagera ngo bamwakire.

Gukora ubukangurambaga mu bana bakiri bato wifashishije ibigo by'amashuri birafasha kuko ubutumwa wateguye bugera kuri benshi icyarimwe.

Ibikoresho ndangamurage byifashishwaga mu gihe cyo hambere, nko guterekera bikoreshejwe n'abavuzi gakondo.

Kumasa, umubiri, uwukorakora, uwuyaguyeya, kugira ngo amaraso atembere, mu mubiri neza ku gice cy'umubiri urimo urakorakora.

Umuravumba igiti basoromaho ibibabi byarwo bashaka kwivura indwara cyane bawukoresha bivura inkorora mu buryo mu buryo bwa gakondo batiriwe bajya kwa muganga.

Bisaba, ubwitange n'umutima ukomeye, mu kuvura abakugana, ukora ibishoboka byose, ngo bataguca mu myanya y'intoki, mu gihe barembye cyane.

Kugira ubumenyi bwo kumenya gusoma no kwandika birafasha, iyo ugeze aho usabwa kuzuza ibisabwa binyuze mu nyandiko.

Ubuvuzi bwegerejwe abaturage ni gahunda itegurwa mu buryo bwo gutanga ubuzima kubabukeneye kandi vuba.

Aho bategerereza kwinjira mu isuzumiro ngo barebe babasuzuma ikibazo bafite cy'uburwayi.

Abayobozi bashinzwe ubuzima, muri gahunda yo gusura amavuriro mato yegerejwe abaturage, bagenzura imikorere yayo n'uburyo yakiramo abayagana.

Gutanga ubuvuzi bujyanye n'amaso, ni iby'agaciro kuko bifasha umuturage kubona neza no gukora imirimo ye mu buzima bwa buri munsi nta mbogamizi z'imboni.

Kwirinda ko wakoresha imiti itujuje ubuziranenge ni ngombwa ko ishyiraho amakuru agendanye n'igihe wakorewe kugira ngo nurangiza igihe uzajugunwe.

Gahunda ya leta yo gushyiraho amavuriro bayegereza abaturage mu buryo bwo kubarinda kuba bapfira mu nzira barimo barerekeza kwa muganga bajya kure.

Ubukangurambaga bwo kubwira abaturage ko bagomba kwirinda, ugomba gutegura ibyo ubabwira kandi bifite ireme.

Gukora ubushakashatsi biba byiza iyo mwibumbiye mu itsinda mukungurana ibitekerezo ku bumenyi mufite butandukanye.

Kubungabunga ibikorwa remezo ni inshingano ya buri muturage wese, aho atuye kuko niwe biba bifitiye akamaro mu buzima ka buri munsi.